Umubyeyi utaruye mwana, ufite ibyishimo ufite akanyamuneza ku maso, akaba ari kuvoma amazi ku ivomero, akaba akikijwe n'ibiti, amazu asakaje inshinge ndetse akaba ari ahantu ubona ko ahishimiye cyane.

Abana, abagore, abagabo, ababyeyi bari mu za bukuru, bari kwamamaza Igihugu cyabo cy'u Rwanda, bigaragara ko bishimye cyane ku maso bishimiye ubuyobozi bwacyo, bari kwamamaza bishimye cyane.

Umugore w'umuforomo uri gufasha umuntu uri mu za bukuru w'umugabo, amufasha kuba yamugororera ingingo zo mu mubiri zaba zaragize ikibazo, kugira ngo ajye yikorera imirimo, amufasha kurambura ingingo zirimo: amaboko, ibiganza, afunga ibipfunsi ndetse n'ibindi.

Inzu y'imyitozo ngororamubiri aho hagaragaramo imashini zigiye zitandukanye z'imyitozo abantu bakwifashisha bari kugorora umubiri, harimo imashini igorora umubiri umuntu ari kwiruka, imashini igorora umubiri w'umugongo, imashini zigiye zitandukanye nyinshi.

Umuforomo uri kuvura umwana, wavukanye ikibazo cyangwa akaba yarakigeze nyuma yaho, uri kubona ko umuforomo abyishimiye cyane, hakaba hari imashini iri gupima uko umwana ameze ndetse hakaba hari na sanitizer cyangwa iyo twakwita arukoru, bakoresha bakaraba intoki.

Inzu bavuriramo abarwayi, haragaragaramo igitanda, ndetse n'imashini yifashishwa bari kugorora ingingo y'umuntu yaba yarangiritse, ahanini amaguru ndetse n'umugongo. Hakagaragara na tereviziyo nini igaragaza uburyo ubuzima bw'umuntu bumeze haba amagufwa ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo nk'umuntu yaba yagize ikibazo bakifashisha bari kumuvura, utu dukoresho abantu bakunda kutugendana, iyo hari nk'ahantu hateraniye abantu benshi, cyangwa buri muntu akaba agatunze mu rugo rwe, kugira ngo ajye adukoresha haba harimo udukoresho tugenda dutandukanye, harimo udupfuko ndetse n'ibindi bintu.

Igiti cy'umuravumba kiri hagati y'inzu ndetse n'igipangu, iki giti cy'umuravumba cyifashishwa mu ndwara zigiye zitandukanye harimo indwara y'inkorora kugira ngo ibe yavura abantu barwaye izo ndwara ndetse n'indwara zindi zigiye zitandukanye, bakifashisha mu buvuzi gakondo.